Ingombajwi ziri ku gapapuro k'imirongo minini n'imito ubona ko wagira ngo ni aho bigishiriza abana biga kwandika, kwandika.

Igishushanyo kiriho agasimba .

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri bari kwiga. Mwarimu ari kubabaza nk'ikibazo cyangwa igisubizo kuko ubona bamwe bamanitse intoki.

Inyubako ubona ko wagira ngo ni ikiliziya cyangwa se ikigo cy'amashuri ariko biragaragara ko bishoboka kuba ari urusengero abantu basengeramo cyangwa se kiliziya.

Biragaragara ko uyu ari umuryango w'umubyeyi w'umumama n'uw'umupapa wicaranye n'abana babo, bashobora barimo barabereka urugero rwiza rw'imibanire myiza mu muryango, aho binagaragara ko iyi foto wagira ngo n'ibishushanyo nka leta yifashishije ngo igaragaze imibanire myiza y'umuryango.

Umuryango abantu binjiramo cyangwa basohokeramo baba abanyeshuri, abarimu, abayobozi n'abantu basanzwe mu kigo cy'amashuri abanza.

Ibikoresho by'ubuhinzi aho harimo; udutebo, isuka, amapiki, za majagu n'inkero n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Abanyeshuri bamwe bambaye inifomo abandi batambaye inifomo, wagirango ngo bari kuvuga imivugo, bari ahantu hameze nko muri salle y'icyumba cy'amashuri.

Inzu, ibiti, ibendera ry'igihugu n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abana, kandagira ukarabe, jaride n'akazu k'ibyuma.

Biragaragara ko uyu ari umubyeyi wari ugiye kwakira umwana ku ishuri, uvuye kwiga, uje mu biruhuko cyangwa se arimo aramusezeraho ngo asubire ku ishuri, arangije ibiruhuko.

Abanyeshuri bari mu ishuri wagira ngo bamwe bari kwandika, abandi bari kwiga, n'ikibaho cyanditseho ibindi bintu, n'intebe bicayeho, n'amadirishya, n'urukurw'inzu bigiramo.

Umuryango w'ahantu runaka ukinze ufite nimero cumi na rimwe.

Umuntu ubona y'uko yahawe impamyabumenyi, aho ubona ko ashobora kuba arimo arashimira uwamufashije kugira ngo agere kuri iyo mpamyabumenyi, ashobora kuba ari umwarimu we, umubyeyi we, umugore we cyangwa se undi muntu wamufashije kugira ngo agere kuri iyi mpamyabumenyi. Aho ubona ko akikijwe n'ibitambaro bigizwe n'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda.

Ibi biragaragara ko ari imitako ishobora kuba ikorwa mu mabumba cyangwa mu masima, ishyirwa ahantu runaka kugira ngo hongerwe ubwiza uhabonye abone ko imitako yahageze heza.